Abana batoya ndetse benshi cyane bari mu ishuri. Abana bakoze amatsinda bicara bakurikije ameza, ndetse aba bana imbere yabo bafite ibikarito. Buri kuri buri meza hicaye abana batandukanye, kandi bari kurangara.

Ni ishuri ryigamo abana bo mu kiburamwaka, iri shuri ririmo intebe zifite amabara y'icyatsi, ubururu, umuhondo ndetse n'utumeza tugufiya iri shuri rimanitsemo inyuguti n'itonde ry'inyajwi.

Abana mu rugo rw'irerero, ni abana bari munsi y'imyaka itanu, bose bari kureba ibyo umwigisha wabo ari kubereka, bazamuye amaboko bayashyira hejuru, abandi ntibazi ibyo ari byo, aba bigisha ni babiri, bari kwigira ahantu mu mbuga y'igitaka, urugo bari kwigiraho rukoze mu byatsi.

Abana batoya bigaragara ko bari munsi y'imyaka itanu, bari mu rugo rw'umuntu aho bahasizwe kugira ngo baharererwe. Aba bana nta iniforume bagira, buri wese yambaye ibyo abonye. Uru rugo barimo ntirwifashije kubera ko bari gukinira hasi ku butaka ndetse hari korotire y'ibyatsi.

Ni abanyeshuri bo mu kigo cy'amashuri abanza hariho icyapa cyanditseho ikaze muri Nyamugari primary school, the school of execellence. Aba bana bambara iniforume hejuru ishati y'umuhondo, hasi ikabutura y'icyatsi. Hari amakarita y'ibihugu ndetse n'ay'isi.

Abana batoya bari mu kigero cy'imyaka yo munsi y'itanu, barimo kwigishwa. Hicayemo n'abantu bakuru, gusa hari umuntu umwe uhagaze ari kwandika ku kibaho, abereka ibyo ari gushushanyisha ingwa.

Ni utunyuguti ndetse n'imibare byanditswe bikandikwa bikarambikwa ku dupapuro dutoya. Utu dupapuro twaraciwe turarambikwa hariho inyuguti, mu gishushanyo cy'umuneke, hariho inyuguti ya gatatu, i, rimwe, a n'izindi nyinshi.

Mu cyumba cy'ishuri aho bandika. Gisa n'umukara, bandikishijeho mu ibara ry'umweru. Cyanditseho inyuguti zigize itonde ry'inyuguti mu kinyarwanda. Igikuta gifasheho gikoze mu matafari.

Hari igikuta igikuta cyubatse mu matafari kandi icyi giputa ni icy' icyumba cy'ishuri, kuri iki gikuta hamanitse urupapuro ruriho inyuguti zerekana uburyo abantu bafite ubumuga bwo kutavuga bakoresha bavugana n'abandi.

Ni ishuri ririmo abanyeshuri batatu, babiri barahagaze undi arasutamye, iri ishuri ririmo intebe ririho ikibaho gifashe ku gikuta kandi bigaragara ko hasi harimo sima.

Ni igishushanyo kimanitse ku gikuta cy'ishuri. Iki gishushanyo kimanitse ahantu hubakishijwe amatafari ahiye. Gifite ibara ry'umuhondo. Iki igishushanyo cyanditseho ibintu cumi na bine, bigomba gukurikizwa muri iri shuri.

Ni imbaho zashaje, zarapfumutse, zirasaduka ,zisa nabi, ntabwo zigisa n'imbaho, ahubwo zahinduye isura ndetse zirambitseho ingwa. Izi mbaho zisa n'aho zikoze intebe yo mu ishuri ry'abanyeshuri biga muri primaire.

Abana b'abanyeshuri biga mu kigo cy'amashuri abanza bambaye iniforume zisa n'ubururu, bagize inyota baza kuvoma. Bari kuvoma amazi ava mu kigega. Iki kigega aho bavomera barahubakiye bahapavoma na sima ndetse hari n'urugi rw'ibiti.

Ni igipapuro kinini cyane kimanitse ku gikuta. Iki igipapuro kiriho utuntu dutandatu, tugaragaza ibipimo bijye bitandukanye, tukaba turarabolinze kuva kuri a kugera kuri f. Hariho harimo utuntu dukeya dusa n'umutuku, utuntu twinshi mbese harimo ibipimo bitandukanye.

Abana b'abanyeshuri babiri bafite aga computer gatoya imbere yabo, gafite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi, muri taburo yako harimo imbonerahamwe, bari kuyiga bari kwiga ukuntu iyi mashini ikoreshwa.

Ni idirishya ry'icyumba cy'amashuri, iri dirishya rikozwe n'ibyuma ndetse n'ibirahuri, hari abana begamiye ku gikuta cy'iri dirishya bari kureba ku ruhande, igikuta begamiyeho kirasa n'umutuku.

Ni idirishya ry'inyubako, iri dirishya rikozwemo uduce dutandatu dutandukanye, iri dirishya rigiye rinyuramo utubaho dutambitse, rikozwe n'amakositara hejuru atuma umuyaga winjira.

Abana batoya biga mu mashuri abanza bicaye mu ishuri, ni benshi cyane ariko bicaye ku ntebe nkeya, bambaye uniform abahungu bambaye kaki hejuru no hasi, abakobwa bambaye cotton isa ubururu.

Ni abana bane, babiri bari inyuma bateruye akabase karimo ibiryo, hasi hasa umweru, hejuru hakaba umutuku, bigaragara ko ashobora kuba ari ibishyimbo ndetse n'umuceri, abandi babiri bari mu muryango bari kwinjira, umwe afite icupa ari kugenda anywa amazi.

Ni icyumba cy'ishuri kirimo intebe z'abanyeshuri za pupitre ndetse n'intebe za mwarimu ziteretse imbere y'akabati. Iri shuri hasi harasa n'umukara ndetse no ku mpande ku nkuta harasa n'umukara hasi, hejuru hagasa umuhondo ukuntu.

Ni abana batoya bari mu kigero cyo munsi y'imyaka icumi bari kumwe n'umumama mo gakeya, uyu mama na bano bana barishimye cyane kuko barimo kubyina, bari kubyinira ahantu hari ibyatsi ndetse hafi yaho haratuwe.

Ikigo cy'amashuri gifite amashuri menshi atondekanye ndetse amwe ari haraguru, anda ari hepfo andi ari ku ruhande rwo hirya, hagati harimo ubusitani bwangiritse, bwakozwe, bwari bukozwe na pasiparumu ndetse n'uturabo ariko bwarangiritse cyane.

Ni umuryango ufunguye winjira mu nzu. Uyu muryango uteye irangi ry'icyatsi kandi mu nzu aho winjira hari irangi ry'umutuku ndetse hasi hari irangi ry'umukara. Uyu muryango umwe urafashe, undi urafungutse.

Ni ubwiherero bw'umwobo umwe bufite ubuhumekero bukozwe n'amakositara abiri, ubwiherero bufite urugi rwo gufunga, ubwiherero rero hasi hakozwe na sima kandi bwubakishijwe amatafari ahiye.

Ni umuhanda w'igitaka ndetse ufite akarigore ku ruhande, aho uherera hari icyapa cyerekana amerekezo kandi inyuma y'icyapa hari imodoka ifite ibara ry'umweru, iruhande rw'uyu muhanda hari imirima yo guhingamo.

Ni ishuri riciriritse ririmo intebe za pipitire ndetse n'ikibaho. Ikibaho gifashe ku gikuta, iki kibaho kirasa nk'umukara. Igikuta cyubakishije amatafari ahiye, nta nubwo hapavomye, hasi naho hateye sima.

Ikigo cy'amashuri abanyeshuri bahiga bambara hejuru ibara ry'ubururu ndetse no hasi umukara, bari kumwe n'abayobozi ndetse n'abantu bafite uruhu rwera bigaragara ko ari abazungu, aba bantu bafite igiti mu ntoki zabo.

Abanyeshuri biga mu kigo cy'amashuri abanza, bambaye iniforume, hejuru bambaye ubururu bw'ikirere, hasi bambaye amakabutura y'ikaki. Babiri bateruye ibiryo mu kabase, bisa n'umweru ndetse n'umutuku, bisa nkaho ari umuceri ndetse n'ibishyimbo.

Ni igishushanyo kimanitse ku gikuta cyubatse mu matafari ahiye. Iki gishushanyo kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hariho ibishushanyo by'abantu berekana ukuntu umuntu aba ameze, biperezanta ibimenyetso by'indwara ya Marburg.

Ni inyubako yo mu kigo cy'ishuri, hariho icyapa iruhande rw'umuryango umwe cyanditseho G.S Nyarutovu. Muri iki kigo hateyemo ibiti birebire ndetse n'indabo, harimo umunyeshuri umwe uhagaze areba ku ruhande yarangaye ndetse harimo n'umurezi.

Ni abana batatu b'abanyeshuri. Babiri muri bo, bahagaze mu muryango, ugaragara ni umuhungu, bose bambaye iniforume. Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri na we ari hanze, ashaka kwinjira ari kuza yihuta. Abandi bana bari kumureba.

Ni mu gikoni gitekerwamo ibiryo bigaburirwa abantu benshi cyane, harimo amasafuriya manini amwe bita mivero apfundikiye, aha ngaha ntihari urumuri rwinshi, hasi hari sima isanzwe nta makaro arimo.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse kikaba gisakajwe n'amategura amwe babumba mu byondo. Iki kigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri bambara imyambaro myinshi itandukanye, aka kanya bari muri bureke bari gukina no kuruhuka.

Mu ishuri rinini kigamo abana bo mu mashuri abanza, harimo abana batanu basigayemo bicaye babiri muri bo barahagaze, iri shuri ririmo intebe nyinshi ndetse n'ikibaho, ikibaho hasi yacyo hasize irangi ry'icyatsi.

Ni umwana arimo kwiga gukoresha aga computer gatoya k'abana, gafite amabara icyatsi, umweru ndets aka ga compute ni kamwe k'abana bo muri primaire, ari kwiga kugacomeka ndetse inyuma ye haragaragara uburyo gakoreshwa.

Ni inzu iteretsemo ameza ndetse n'intebe za chaise byose bikozwe mu mbaho. Iyi nzu ifite amadirishya ariko yose arafunze. Harimo umugabo umwe ari kwerekana amamashine arimo ateretse ku meza.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri kandi bafite imashini imbere yabo, aba banyeshuri ntabwo bari bonyine kuko hari n'abandi bantu bahagaze imbere babayobozi, bari kubareba n'abanyeshuri baricaye barimo kubumva.

Abanyeshuri bakuru mu kigo cy'amashuri barimo kugenda. Ikigo cy'amashuri cyabo cyubatse neza kubera ko n'aho banyura harasakaye kandi atari mu nzu. Inzu zabo zubakishije amatafari ahiye. Abanyeshuri ba hano hejuru bambara umweru hasi bakambara umukara.

Ni abana b'abanyeshuri batoya ndetse n'abakuru barahagaze, abanyeshuri bose bambaye iniforume imwe isa n'umweru hejuru ariyo shati ndetse n'ikabutura cyangwa ijipo isa n'icyatsi, harimo abana bamwe bambaye imipira itari iya iniforume, bose bahagaze bareba ahantu hamwe.

Amakipe abiri atandukanye ari ku murongo ari kwitegura gukina, bamwe bambaye ibara ry'umutuku abandi bambaye ibara ry'icyatsi, bose bari kureba umuntu ubahagaze imbere wambaye ibara ry'umukara, bahagaze mu kibuga bari kumwitegereza ari kubabwira.

Ni ibyumba by'amashuri bitatu, uhereye ibumoso ku cyumba kibanza hari ikigega gifata amazi, naho ku cyumba cya gatatu ubwo ugeze iburyo hari umwana, umwana arimo aragenda, yambaye iniforume, yambaye inkweto zifunguye, afite n'umupira mu ntoki wagira ngo arimo kurira.

Ni igifuniko cy'igitabo kirimo amabara umutuku, icyatsi, umukara ndetse n'abanyeshuri. Hariho abanyeshuri batatu umwe ari kwerekana abandi banyeshuri babiri bari gusoma, ndetse iki gitabo cyerekana ko cyigisha isomo ry'imibare mu mashuri yisumbuye.

Umuryango winjira mu nyubako runaka, kuri uyu muryango hariho umuntu uhahagaze bigaragara ko ariwe ucunga abinjira n'abasohoka, uyu muryango rero ufite urubaraza rurerure rugera hejuru ufatishijwe ibiti birebire, igipangu cyarwo gifite amabara asa n'igitaka.

Ni ikipe y'abakinnyi, iyo kipe abakinnyi bayo bambaye jezi zisa n'umukara, imibare n'amagambo byanditseho byandikishijwe ibara ry'umweru. Inyuma gato, hari abafana babo, iyi kipe biragaragara ko ikina vore.

Ni imodoka ya taxi, iri kugenda mu muhanda w'amabuye ndetse irimo kwirukanka. Iyi modoka, umuhanda urimo ukikijwe n'ibiti bitari birebire cyane kandi aho urimo uragenda, uri kugenda ugana ibumoso.

Ni inyubako y'ikigo cy'ishuri ikikijwe n'ibiti, inyuma yayo hari ibiti birebire cyane kandi bibyibushye, ibi biti bigaragara ko bishobora kugwa bikagwa ku iyi nyubako. Iyi nyubako isakajwe n'amabati y'umutuku.

Ni abanyeshuri, bambaye iniforume hejuru, bambaye amashati y'umweru, hasi bambaye amapantaro y'ikaki, bambaye n'inkweto z'umukara ndetse n'amasokisi y'umweru, barahagaze barimo kuririmbira muri karaseri z'ubururu.

Ni inzira ikoze nk'umuhanda igenda igana mu nyubako. Iyi nyubako yubakishije amatafari y'umutuku ndetse isakaje amabati y'umutuku. Inyuma y'inyubako hari ishyamba ry'ibiti, bitari birebire, ariko bibundaraye hejuru yayo.

Ni abantu batandukanye bambaye iniforume aba bantu bose ni abakobwa ni igitsina gore, bose bambaye iniforume imwe agashati ko hejuru gasa n'umweru gafite ibara ry'umutuku ku ibere ry'ibumoso, bambaye n'amajipo asa kaki ndetse n'ingofero z'umweru.

Ni umuryango munini winjira mu kigo, uyu muryango kuri geti yawo handitseho Eyari kageyo tiveti sukuru. Izi zanditse mu ibara ry'ubururu bikaba byanditse ku kintu gisa n'umweru. Iyi nyubako rero...

Ni ishuri ririmo intebe zikozwe mu mbaho, zifatanye n'aho babika amakayi ndetse n'aho bandikira. Izi ntebe ntabwo ziteyemo kuko ziramuvinga. Zavaho zikajyanwa ahandi. Iri shuri ririmo akavuyo, hari intebe zimwe zirambitseho amataburiya, amakayi, harimo n'ikibaho gisa n'umukara.

Ikigo cy'abanyeshuri mu kibuga. Harimo abanyeshuri, abakobwa n'abahungu, hejuru bambaye ishati y'ubururu bw'ikirere, hasi bambaye ijipo cyangwa ipantaro ya kaki. Harimo n'umuntu wambaye iniforome. Bafite mikoro, bari kubyina, bari no kuririmba, ku ruhande hari abari kubareba n'amabafure.

Abanyeshuri bo mu bigo by'amashuri bibiri bitandukanye, bari ku kibuga cy'umupira mu kigo cy'amashuri kimwe barimo gufana, hari amakipe ari mu kibuga bambaye imyenda isa n'umuhondo abandi bambaye isa n'umweru, aba banyeshuri nabo bamwe bambaye iniforume hejuru ishati y'umweru, hasi ijipo ya kacyi cyangwa y'ubururu.

Ni abanyeshuri bari mu ishuri ryigirwamo computer. Buri wese imbere ye hari machine yo kwigiramo. Aba bana bisa naho bari kwiyigisha kubera ko ntabwo bari kureba imbere, buri wese ari kureba muri machine yiwe.

Ikibaho gifite ibara ry'umukara cyandikishijweho ingwa y'umweru ibintu biri mu mbonerahamwe bitoya, ikibaho kiri ku rukuta rufite ibara risa n'ikijuju, hasi yacyo hari sima.

Ni inzu nini cyane bigaragara ko ari iy'ubuyobozi, iyi nzu ikikijwe n'ubusitani burimo pasiparumu n'indabo nyinshi z'ubwoko butandukanye, hari agahanda kazaho gafite ibimenyetso by'umuhondo ndetse n'umweru.

Ni amazu atatu yubatse neza yegeranye, kandi imbere yaho akikijwe na jaride irimo pasiparumu n'indabo zikase neza, imbere gatoya utaragera ku mazu hariho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ububiko bw'impapuro ndetse n'amakayi mu kigo cy'amashuri, amakayi menshi n'impapuro byinshi bitandukanye byabitswe mu tu etajeri tw'akabati, bimwe biri hejuru ibindi biri hasi ndetse aha hantu hari n'intebe yo kwicaraho.

Ni igipangu gikozwe mu byuma bimwe bigiye bitambitse ibindi bishinze binyuranamo, hagati hagiye hanyuramo inkingi zubakishijwe amatafari ahiye, iki gipangu rero gikikijwe na pasiparumu na jardin irimo n'ibiti birebire.

Abana bicaye mu ishuri ku ntebe zikozwe mu mbahoho, inyuma y'abana hari akayetajeri gashyirwamo impapuro ndetse n'ibitabo, iruhande rwabo hari icyuma gitanga amazi yo kunywa, byose hamwe biri kumwe nabo mu ishuri.

Muri gare hari imodoka yitwa ritiko hari abanyeshuri batonze imironko bategereje kwinjira mu modoka, ndetse n'abandi barimo kwinjizamo imitwaro yabo. Abanyeshuri bose bafite ibikapu mu mugongo, ndetse hari n'abafite amavarizi.

Abanyeshuri biga mu kigo cy'amashuri yisumbuye, hejuru bambara ishati y'umweru, hasi bakambara ijipo cyangwa ipantaro y'ubururu bw'ikirere, baricaye ku dutebe tugufiya hanze mu kibuga bateze amatwi umuntu uri kubaganiriza.

Turi mu isomero hari ibitabo byinshi by'ubwoko butandukanye, ibitabo byose bimanitse ku mayetajeri hakurikijwe ubwoko, ibitabo bikurikiranye bigenda bisa bikagenda bitandukana uko bitandukanye, harimo umuntu yaje gusoma yambaye imyenda y'umukara.

Abanyeshuri bose b'igitsina gore bicaye mu ishuri. Buri wese ari kureba imbere ye kandi arimo kwandika ashishikaye. Biragaragara ko bari mu kizamini. Aba banyeshuri buri wese yambaye uniforme. Hejuru bambaye imipira isa n'icyatsi, hasi bambaye ivu.

Ni abanyeshuri bambaye furari y'abasakawuti n'abagide, aba banyeshuri bose ni abakobwa, harimo n'abatari abanyeshuri kubera ko batamba yunifomo, harimo abahagaze baba bafunze nk'abasikawuti nyine.

Ni inyubako utamenya niba ari ikigo cy'ishuri nimba ari ibiro cyangwa yaragenewe guturamo, iyi nyubako imbere yaho hari ubusitani burimo pasiparumu n'indabo ndetse n'inyuma yaho hari ibiti birebire byakuze bigasumba inyubako.

Abanyeshuri mu kigo cy'amashuri bari guhabwa ikiganiro hamwe n'abarezi babo. Aba banyeshuri bambara iniforume isa n'umweru ari yo ishati hejuru, ndetse n'ipantaro cyangwa ijipo isa n'umukara. Aba banyeshuri bari gufata ikiganiro bicaye hanze imbere y'amashuri muri pasiparumu.

Ni ishuri ririmo intebe zifatanye n'ameza yazo. Izi ntebe zikozwe mu biti zose kandi harimo abantu babiri bari kugenda bazireba. Harimo zimwe ziteretse hejuru y'izindi bigaragara ko zidafite aho ziterekwa neza.

Ni ishuri ririmo ameza manini n'intebe ntoya bitondetse neza ku murongo, iri shuri ririmo irangi ryiza rifasha abantu kwiga, harimo n'ikibaho imbere gifite ibara ry'icyatsi.

Ni umuhanda uri inyuma ya gare, uyu muhanda ukoze muri beto, muri gare rero haparitsemo imodoka ya Tax, iyi gare ikikijwe n'igipangu gikozwe n'ibyuma bishinze ibindi bitambitse binyuranamo ndetse harimo n'ibiti.

Inyubako ebyiri zubatse nk'amashuri, imwe isakaje amabati y'umutuku indi isakaje amabati y'ubururu, kandi imbere y'izo nyubako hari ubusitani, muri ubwo busitani hateyemo indabo ndende zikikijwe n'imifuka kugira ngo bazibungabunge.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri. Abanyeshuri mu kigo cyabo bambara iniforume hejuru ishati y'ubururu bw'ikirere, hasi bakambara ubururu bwijimye. Abanyeshuri bari mu ishuri baricaye bose, imbere yabo bafite ibitabo kandi bari kumwe na mwarimu. Bari kureba umwarimu wabo.

Ni icyapa kinini cyane kiri ku muryango mugari, winjira mu kigo cy'amashuri. Iki kigo cyanditseho Petit Séminaire Vego Fidèle de Butare ,cyanditse mu magambo avunaguye P. S. V.F. Iyi gate yacyo isa n'umweru, kandi ikigo cyubakishijwe amatafari ahiye.

Abanyeshuri benshi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro sale, ni benshi cyane bicaye mu bihande bibiri biteganye, abanyeshuri bambaye ni iniforume hejuru umweru ndetse no hasi bakambara kaki, bambaye amabaji mu ijosi ndetse bambara n'imipira isa n'ivu.

Umuryango winjira mu cyumba runaka uriho nimero yawo ndetse n'ikirango cy'izina ry'uwo muryango, imbere yawo hari itara rimurika cyane kandi aho uri hari amabara meza y'irangi.

Ni inyubako yubatse nk'uruganda. Hari ibintu bimeze nk'ibigega birebire, bimeze nk'ibizamukamo umwotsi nanone, hari no hirya inyubako y'icyatsi, ndetse n'ubururu, irasakaye ariko nta nzugi ifite.

Ni ishuri rigari rigizwe n'intebe zifatanye n'ameza kandi izi ntebe aho ziteye zifashemo. Iri shuri ririmo amarido asa n'ubururu ndetse n'umweru afashe ku madirisha y'ibirahuri.

Ni abantu benshi cyane, ndetse n'intebe zirimo ubusa. Aba bantu bari bicaye mu izi ntebe ariko bahagurutse baragenda imbere, bamwe bari kubyina abandi barimo gusohoka. Aba bantu wagira ngo bari bari mu materaniro none ararangiye baratashye.

Abanyeshuri barindwi bari mu isomero. Batatu bicaye ku meza amwe y'imbere asa n'umweru, abandi bane bicaye ku meza y'inyuma. Buri wese ari gusoma mu bintu bye, nta n'umwe uri gusomana n'undi.

Ni icyanya cyubatswemo inzu, ariko inzu ntirarangira kubakwa. Iyi nzu irasakaye, isakajwe amabati y'umutuku, ifasheho imireko igomba gufata amazi y'imvura, ndetse imbere yaho hariho pasiparume itararangiza gutunganywa neza.

Ni muri restaurant aho batanga ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Hari intebe nyinshi ndetse n'ameza menshi. Umuntu utambaye iniforume y'akazi ari kuzana ibiryo ku meza, ari kuzana ibyokeje, ari kuzana ama salade ku meza, kandi bisa n'ibiryoshye. Harimo n'abantu benshi.

Ni mu ishuri harimo tereviziyo baporojekitaho bari kwigiraho, ndetse harimo ameza ariho intebe zigiye zitandukanye. Harimo udutebe twinshi dufite aho kwicara ndetse n'aho kwandikiraho. Muri iyi tereviziyo yanditsemo ijambo rinini mu magambo manini simati.

Ni inyubako imeze nko muri laboratwari, iyi nyubako irimo udutebe duteye ku maguru y'ibyuma, kandi dusa n'umweru, harimo n'ameza ariho ibikoresho bitandukanye nka mikorosikope, harimo ibyapa, harimo n'ibyo kwigiraho ubuzima bw'umuntu.

Ni icyapa kigaragaza ikigo k'ishuri cya RP, IPRC Kitabi, kiragaragaza ibintu byose bihabera, towrism, nature conseravation and forestry, iki cyapa gikozwe mu biti.

Ni utubati twinshi dutandukanye mu burebure ndetse no mu mabara dufashe ku rukuta rwubatse mu matafari rudapavomye, iyi nzu irimo purafo nziza ikomeye ndetse n'amabati akomeye afasheho n'amatara.

Ni muri koridoru igenda ijya mu muri nzu, muri iyi koridoru hagiye hateyemo intebe zimwe zisa n'icyatsi izindi zisa n'umukara, iyi koridoru hejuru ifite itara rimurika cyane risa n'umweru purafe yaho isa n'umukara.

Ni icyumba cyo kuraramo kirimo akabati k'imyenda gafite akandi ko hejuru yako gatoya. Hejuru hamanitse amavarize abiri, urugi rw'akabati ruriho ishati. Hicayemo umuntu, harimo amamashini, harimo n'aho gukarabira intoki.

Ni umwarimu arimo kwigisha, ari kwigisha yaporojegise imbere, yakoresheje projecter ndetse mu bintu yaporojegise, harimo amabara y'ubururu ay'umweru, inyuguti, utubara tw'umutuku ndetse n'ibishushanyo.

Ni icyumba cyo kubamo cy'umuntu harimo amavuta, amasaha, terefoni icaginze, uburoso bwinshi kuko ni butatu ndetse hasi hariho tapi yo mu ibara ry'umukara n'umweru.

Abantu bicaye aho bari gufatira amafunguro, bicaye ku ntebe zifite amabara menshi atandukanye, hari intebe zisa n'umweru, hari izisa n'umutuku, hari izisa n'umuhondo, bamwe bari kurya kandi hafi ya bose bicaye kumeza begeranye.

Ni inzu y'utubati turimo udutabo dutandukanye harimo udutoya ndetse n'ibinini. Utu dutabo ni udutabo tw'inkuru, buri kabati karimo utu etajeri dutandukanye. Utu etajeri tumwe turimo ibitabo bijugunyemo uko bibonye, utundi turimo ibitabo bitondetse neza.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bari kurangara bareba ku ruhande, hari umuntu wabarangaje ku ruhande, bose barambiwe gusa bicaye mu ishuri ryiza, rikoze nka etage imirongo yo hasi iri hepfo y'iyo hejuru.

Ni sare nini cyane irimo intebe zifatanye n'utumeza twazo, intebe uzirebeye inyuma utazegeye wabona zisa n'umutuku. Hejuru kuri purafo harimo amatara afashemo asa n'umweru. Iyi nzu isa neza.

Abubatsi bane bari kubaka ahantu bigaragara ko ari ku bwinjiriro bw'umuryango ugana ahantu runaka mu nyubako. Aba bubatsi bose bambaye udupfukamunwa, batatu muri bo bambaye ibirindamutwe kandi bose bambaye amajire.

Ni inyubako ebyiri ziteganye imwe iri hepfo indi iri haraguru, zose zikikijwe n'ubusitani bwa paspalum ndetse harimo n'ibiti bitari birebire. Hari umuntu uri ku nyubako yo haruguru ari kugenda ayinyuraho. Izi nyubako zose zisakajwe amategura y'umutuku.

Ni abantu bari kureba ibyo umuntu ukora ibikoresho mu mbaho yakoze. Umuntu ukora ibyo mu mbaho yambaye isarubeti isa n'ubururu ari kubereka, bose bararangaye bari kureba, bafite amacupa y'amazi, inyuma yaho hari abari kureba muri telefone bari kuganira.

Hari icyapa cyanditseho Main library, kandi iki cyapa kiri hejuru y'umuryango. Bivuze ko uyu muryango ari wo winjira muri library. Hirya y'uwo muryango hari aka jardin gatoya karimo uturabo ndetse hari n'amabafre.

Ni igishushanyo cyo mu mabara y'umweru, ubururu, umukara ndetse n'icyatsi inyuguti zanditse mu mukara ndetse n'ubururu imbere ahagaze umuntu wu mu mama afite mikorofone yambaye na baji ariba kuganiriza abantu ku bijyanye n'iryo shuri.

Abantu bakuru bicaye mu ishuri buri wese afite laputopu imbere ye n'icupa ry'amazi ya Nile, imbere yabo hahagaze umumama ari kubereka ari no kubigisha na we iruhande rwe hari akameza gategetseho mashine y'iwe.

Ni icyumba kigaragara nko kwa muganga, harimo akabati ko kubikamo imyenda, harimo ibitanda bibiri bishashe bikoresheje amashuka y'umweru, hariho ameza ndetse hariho n'intebe n'indobo.

Inzu y'ikigo cy'amashuri ifite foro eshatu, ni ukuvuga ngo igerekeranye kabiri, yubatse neza, imbere yaho hari udutangira abasazi, ndetse ifite ibyumba byinshi bitandukanye, iramutse ari iyo kwigiramo, yaba imeze neza.

Ni amarido afashe mu nzu, aya marido afashe ku tubaho dusa n'ubururu, aya marido rero, rimwe ku ruhande ryaracitse ntabwo rigifashe neza, aya marido asa n'ikijuju ashushanyijemo n'utuntu twa kare.

Ni icyumba kiraramo abantu. Imbere yacyo hari inkweto zo gukandagiramo, ndetse no gukarabiramo. Iki cyumba gifite ubukarabiro iruhande rw'umuryango , umuryango ufungishwa iserire, kandi harimo n'uburiri bugerekeranye.

Ni abantu benshi bari mu cyumba cy'inama, bateze amatwi cyane bigaragara ko bari kureba kandi bari kumva ibintu bifite akamaro, inyuma hari abantu batatu baticaye barahagaze, aba bantu rero abenshi muri bo bambaye imyenda y'umukara kandi ntabwo bari guseka.

Ni ishuri ririmo intebe zifatanye n'ameza yazo. Iri shuri rigeramo urumuri ruhagije kandi rwinshi, kuko hejuru hagizwe n'ibirahuri bidafunguka cyangwa ngo bifungwe ariko bibonerana. Iri shuri nta muntu n'umwe urimo.

Hari umuntu uri imbere n'abandi bantu bicaye ku mirongo ibiri bakikije ameza, aba bantu bambaye imyenda itandukanye hari abambaye iy'umukara, abambaye umutuku kandi nabo bose imbere yabo bafite machine, bari kureba imbere ibyuma ari kubereka yazamuye amaboko.

Ni mu nzu iberamo imikino, hamanitsemo icyapa ku gikuta kimwe cyo ku ruhande hariho umuntu w'umukinnyi wambaye jezi z'ubururu, ndetse bigaragara ko agiye gutera umupira muri paniye. Icyo cyapa gisa na orange, hari abandi bantu bahagaze hasi, ndetse n'abakinnyi bambaye jazi.

Ni icyumba cy'ishuri kirimo intebe nyinshi ndetse n'ameza, intebe zimwe zisa n'ubururu izindi zisa n'umukara, ameza yo asa n'imbaho zisize verine, harimo umuntu umwe wicaye inyuma cyane hahera ari concentre arimo gusoma.

Ni icyumba gisa neza, gifite isuku, kirimo amabara adapika cyane. Iki cyumba kirimo irido rifite ibara ry'ikijuju, rishushanyijeho n'utuntu two mu ibara ry'umutuku. Kirimo uburiri busashe, kirimo ameza.

Ni ibirango byerekana icyumba kigiye kwinjirwamo. Ibirango biri mabara umukara, umweru n'ubururu, handitseho Medsar and CPSAR Office, bivuga ko ari ibiro byabo ngabo.

Abantu benshi baricaye barakurikiye imbere, bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari ameza bashyizeho ibyangombwa byabo nk'amatelefone, bari kureba ibintu umuntu w'imbere ufite uruhu rwera ari kubereka yakoresheje porojegiteri.

Ni icyumba kiraramo abantu, muri iki cyumba kirashashe hari uburiri ndetse butwikiriyeho kuvureri, muri iki cyumba harimo varize ndetse harimo n'igikapu kirimo indi myenda ku ruhande, iki gikapu kirimo umwenda w'umweru.

Abantu barimo gufata amahugurwa ku bijyanye na mudasobwa n'imikoreshereze yayo, buri wese mbere ye hari mudasobwa yiwe, gusa bose bari kureba imbere ntabwo bari kureba muri mudasobwa zabo, imbere bigaragara ko hari umuntu uri kubigisha bari kurebaho.

Abanyeshuri benshi bicaye mu ishuri, bari kureba mwarimu ari kubigisha, mwarimu ari kubigishiriza muri mashine ariko ari kubereka imbere hatari kuri mashine, abanyeshuri na bo rero barakurikiye bareba imbere, abanyeshuri bambaye imyenda itandukanye idasa.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri kandi bose bafite microscope. Buri wese ari kuyirebamo microscope iteretse ku meza asa n'umweru gusa ku murongo wa kabiri hariho umuntu ntabwo ari kuyirebamo ahubwo ari kureba muri i pad yiwe.

Abakobwa babiri bicaye mu cyumba cyo kuraramo, bombi bakiraramo kuko buri wese yicaye ku buriri bwe kandi imbere ye hari inkweto ze, buri wese afite imashini imbere ye umwe yayishyize ku maguru undi ari kuyireberamo iri ku buriri, buri wese afite akabati k'iwe abikamo ibikoresho bye yaba inkweto n'ibikapu.